Abantu bari mu nama umwe ahagaze abaza ikibazo, abo bantu bicaye ku ntebe z'umweru imbere yabo hari amacupa y'amazi, bambaye imipira myiza y'imikara.

Abantu batanu bari mu nama bakurikiye cyane mbere yabo hari imashini nziza zifite ibara ry'umweru bicaye ku ntebe nziza z'umukara, umwe muri bo yambaye amarinete undi hakurya yambaye ikote ryiza ryumukara.

Abantu b'ababyeyi bari mu nama bambaye neza imyenda myiza, inkweto nziza, marinete meza, bicaye ku ntebe z'umweru bakandagiye kuri sima.

Irembo amakuru mashya ku rubuga rw'irembo kwandikisha ishyingirwa byavuguruwe ubu abifuza gushyingiranwa bazajya bakora ubusabe bahitemo umunsi bifuza banyuze ku rubuga irembo.

Inzira nyabagendwa hakurya y'iyo nzira hari ibyapa byanditseho irembo rura ku buryo bwihuse hirya y'iyo nzu igizwe n'amatafari meza, hakurya hari imitaka icururizwamo amayinite.

Umuhanda ugendwaho n'abantu, umuhanda ni igitaka ntabwo ari kaburimbo, urimo ipoto iriho insinga z'umuriro, hakurya hari amazu.

Ipironi, inzu, igiti, amababi, inzira, amashanyarazi, insinga.

Abantu babiri bambaye udupfukamunwa, umwe yicaye ku ntebe y'umukara nziza yambaye n'isaha, nabo bantu babiri hariho umwe w'umuganga, kumutera urushinge inyuma yaho hari umwenda w'igitambaro w'umweru.

Abantu bari mu nama, bambaye neza, bamwe muri bo ni abagabo, abandi ni abagore, mbere yabo hari igiti kiriho amashami manini, inyuma yabo hari inzu nziza, zifite amadirisha n'imiryango.

Ihuriro ry'igihugu nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki. Eni, efu, pi, o. Demukarasi y'ubwumvikane n'ubwisanzure. Idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, rigaragaza ubururu, umuhondo, icyatsi.

Imodoka nziza z'mweru imbere yabo hari urujya n'uruza rw'abantu bajya mu merekezo agiye atandukanye bamwe muri bo ha harimo abikoreye ibintu abandi barajya ahantu hagiye hatandukanye hakurya yabo hari ikirere hasi icyo kirere hari ibiti.

Imodoka ebyiri ziri mumuhanda inyuma y'izo modoka hari ibiti, ibiti biriho amashami hakurya y'izo modoka hari amazu.

Kigali maganatanu na rimwe, ibyapa, umuhanda urujya n'uruza rw'abantu, n'ibinyabiziga urimo imodoka hakurya y'umuhanda hari ibiti byiza, mu uwo muhanda harimo imodoka.

Amagare, abantu, ibyapa, ikirere, umucaca, ibiti, ibyuma, abagabo, abagore.

Umuhanda, unyuranyijemo, moto, umuntu, imodoka ,ibyatsi, ibiti.

Umuhanda ugizwe n'ibice bitatu, ahamanuka, ahazamuka n'ahatambika. Moto enye eshatu muri zo zihetse abantu, imwe idahetse abantu hakurya y'uwo muhanda hari ibiti, mu muhanda harimo ahantu hari ipoto.

Umuhanda nyabagendwa ugendwamo moto, moto zihetse abantu hakurya y'umuhanda hari umunyonzi ufite igare hakurya y'umunyonzi hari ibiti.